Icyapa cyamamaza, ubwishingizi, bwa sonarwa jenero kinamba buranshe, giherereye muri kinamba bivuzengo n' ubwishingizi bwa sonarwa ariko ishami nirya kinamba.

Kwamamaza ubwishingizi bwa purayimu bakubwira ko ibizazane by'ubuzima ntibiteguza aha ngaha ubwishingizi ushobora kujyamo igihe ukoze impanuka bakaba bakugoboka.

Umuntu wicaye mu modoka ufashe kuri vola anagaragaza ikiganza yazamuye igikumwe wambaye ingofero y'umukara, agakoti k'ubururu n'agapira k'umweru akaba arimo kugaragaza n'icyapa kiriho buritamu bigaragare ko ari ubwishingizi bw'imodoka.

Umugabo uhagaze wambaye ingofero y’ umutuku afite icyapa mu ntoki cy'umutuku yandikishije amabara y'umweru handitseho ikinyejana cya makumyabiri na rimwe ubwisungane mupi ukora ikintu.

Umuntu uhagaze wambaye ufite umusatsi muke, wambaye agapira k'ubururu kanditseho byikorere karimo ibara ry'umweru akaba afashe telefone y'ubururu mu ntoki akaba yazamuye intoki ebyiri akaba arimo kureba dosiye.

Icyapa kigaragaza y'uko iyo ukoze ubwishingizi bwawe bakungukira, kirimo kwamamaza uburyo iyo ukoranye na ungukirwa radiyanti royariti ibikorwa byawe bigenda byungukirwa ntago biguma aho byari biri.

Abantu babiri bafite amagare bahagaze ku mucanga umwe wambaye agapira k'amaboko magufi karimo amabara y'icyatsi, ubururu n'umweru, undi wambaye ikanzu y'umutuku, ari kugenda hirya yaho hari amazi ikirere gisa.

Iyi ni konte ya banke bigaragare ko ari apurikasiyo umuntu akoresha yinjira muri konte yiwe, akaba yakohereza cyangwa se akakira amafaranga cyangwa se akaba yareba nk'ibikorwa byakorewe kuri konte ye.

Uruvuvu rw'umweru n'icyatsi rutamugabob yadikishije umukara n'icyatsi wanditseho zigama csskaze umuntubatiriramo ama

Aka ni aka botike gacuruza ibikomo , bigaragara ko harimo ibikomo by' amabara menshi, harimo iby' umuhondo, umutuku, umweru, ubururu bigaragara ko bafite ibikomo byiza cyane rwose .

Aho bacururiza udukapu harimo udukapu twinshi dusa harimo utw'umweru utw'umukara turambitse ku dutebe tw'umutuku harimo n'udukapu tw'umuhondo, harimo utubati.

Ndabona naho ari imiringa, ibintu by'ibikomo bari kwamamaza, bashobora kuba babigurisha, bigaragare ko ari ahantu bacuruza ibikomo, hari ibirambuye, ndabona bifite amabara manshi; ay'umuhondo, iby'ubururu, iby'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi bacuruzamo ibikapu, inkweto, harimo ibikapu bisa neza by'umutuku n'ibindi by'umuhondo, hakabamo inkweto z'umukara izifunze n'izifunguye, hakazamo inkweto z'ubururu zifunze n'izifunguye.

Aho bacururiza ibikoresho by'imitako, harimo imitaka ikozwe mu mabara y'ibitenge ndetse hariho n'utubati turambitseho imitaka, hakaba hariho amakanzu maremare y'umuhondo ndetse nay'umutuku.

Hano ni mu iduka bigaragareko barimo kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga, bari gukoresha imashini bishyura bafite na terefone mu ntoki, uretseko hirya hari undi muntu urimo kubereka uko bikorwa,

Hano ni ahantu hacuruza biragaragara ko hari umuntu urimo gusobanura cyangwa se bakaba bari kumwereka nk'ibintu runaka wambaye ishati y'umukara n'umweru urimo kubimwereka yambaye ishati y'ubururu bwererutse.

Imodoka ziparitse hamwe ari nyinshi zifite ibara ry'umweru, zifite amapine, zifiteho amatara y'umutuku ndetse n'umweru, zifite ikirahure, zifite uduhanagura kirarahure ziparitse hamwe zireba mu cyerekezo kimwe, hirya yazo hari ibiti.

Ndabona ari inoti ziho amafaranga igihumbi, amadorari ndabona hariho ifoto y'umugabo uri kureba ku ruhande zifashwe n'ibiganza byombi, umuntu asa nkaho ashaka kugaragaza ko amafaranga ari menshi.

Iyi ni inoti y'amafaranga y'u Rwanda magana atanu, ndabona aho abana bicaye bigaragara ko bafashe amakayi nkabo bari kwiga iyo hejuru hariho ikirangantego hariho ingagi hariho sinyatire abantu bakuriye banki.

Abantu bahagaze bategereje kubikura cyangwa kubitsa amafaranga, kuko urabona ko ahantu bahagaze ni kuri gishe yo muri banke cyangwa se nko muri koperative runaka y'abishyize hamwe.

iyi n'indobo ipfunduye bari gucururiza mo amandazi bigaragarako ameze nkaho yenda gushira hasigayemo amandazi abiri yonyine, harimo n'ikintu bafatisha amandazi...

Hano bigaragara ko ari muri dayari ahantu bacuruza amata, ibyo kurya bitandukanye nibyo kunywa bitandukanye, ariko ikintu bibandaho cyane mugucuruza ni ibyo kurya byonyine nibyo bagira mo hano muri iyi dayari.

Indobo zumweru bacururizamo amandazi na keke bigaragara ko ari umuntu washinze nkiduka cyangwa se akaba acururiza muri botike kuko bigaragara ko ziteretse ahantu hameze nkaho ari ameza.

Aho bacururiza ibyo kurya hakaba hari ameza arambitseho ibikombe birimo amata ndetse n'isahani iriho ibiryo bya kinyarwanda, hakurya hakaba hari abantu baje kwaka ibiryo bamwe bafashe ibikapu ndetse.

Iri ni iduka ricuruza ibintu bijyanye n'ibyokurya ndetse n'ibyokunywa, bigaragareko hano bashizeho amazi ya nili muri avilope Hano ntago turi kurebamo ngo tumenye ikirimo.

Ikirahure cy'umweru kirimo amata n'ikiganza gifashe umugati n'ikaramu irambitse ku meza y'umuhondo, umugati w'umweru.

Tirimusi ebyiri imwe y'icyuma n'indi ya parasitike, akabase bashyiramo capati k'amacapati k'umweru akandi k'umutuku karimo keke hakazaamasahani y'umweru firigo y'umweru.

Umuntu wicaye wambaye itabuririya y'umweru imbere ye hakaba hariho icyapa kigaragaza ko ari inyange arimo kuvoma amataka muka jerekani kandi ayakura aho abitse ariko handitseho milk zone.

Ihuriro ry'abantu n'ibinyabiziga, imbere haparitse ibinyabiziga bigendera ku mapine abiri, hariho moto ndetse n'amagare, harimo kugenda abantu, umwe wambaye inkweto z'umuhondo ufite telefone mu ntoki, hino hari inzu irimo amakaro, hakaba hariho ibintu byametse ku makaro,,,

Icyapa cyamamaza kiri mu mabara y'umutuku, hicayemo umusore ufashe telefoni ndetse n'indi telefone nini cyane iri iruhande rwe, icyo cyapa kikaba ari icya sosiyete y'itumanaho mu Rwanda.

Ahangaha n'uburyo umuntu ashobora kwishyura akoresheje telefone, akaba yakwishyura umuntu runaka cyangwa se akaba yakwishyura ibicuruzwa runaka bikoreshejwe enterineti.

Uru ni urubuga abantu bishyuriraho bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, ariko muntu barimo kumubwira yuko ntuza konte ye imeze nkaho yasinziriye.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo y'umukara rukaba ruriho ibirango by'umuhondo ndetse n'ibimenyetso by'umutuku n'icyatsi, bigaragaza uko ibintu bigenda bikurikirana ndetse n'uko ikintu kimwe ukivaho ujya ku kindi. Bakaba bari kwerekana igikoresho uburyo...

Mesaje igaragaza yuko umuntu yakiriye amafaranga ya Uganda ibihumbi magana atanu ifite kode ya cumi na gatandatu zeru kane gatatu cumi na kane zeru kane karindwi gatatu ikubwira ko utagomba gusheyaringa.

Iyi ni resi igaragaza umuntu imisoro yagiye yishyura ndetse na penalite yagiye ahabwa, bigaragara ko yishyuye imisoro y'ubihumbi mirongo kenda na bitanu, biragaragara ko magana cyenda na mirongo itanu'umunani, akaba yaratewe penalite y'ibihumbi magana ane mirongo irindwi n'icyenda.

Iyi ngiyi ni fagitire igaragaza ko umuntu amaze kwishyura imisoro, afite tini namba y'icumi, zeru zeru, zeru gatanu, umunani, umunani, gatatu, bigaragaza ko amaze kwishyura imisoro y'ibihumbi icumi.

Aha ni umuntu urimo bigaragara ko arimo kuvunjisha cyangwa se arimo gukora igurana, arimo gutanga amayero bakamuhereza amadorari cyangwa se akaba arimo gutanga amadorari bakamuhereza amayero.

Inoti z'umweru ziriho ibirango by'icyatsi ndabona ari inote z'ijana n'iz'igihumbi umugabo uzifashe mu biganza arimo kurambura inote zombi hariho umugabo wambaye ingofero y'umukara kandi w'inzobe.

Aya ni amadorari, ndabona ari inoti nyinshi, ndabona harimo iza magana atanu, amadorari ijana ariko bigaragare ko harimo iz'amadorari ijana nyinshi.

Inoti y'ibihumbi bitanu y'amafaranga ya Tanzaniya ariyo amashiringi, ibihumbi bitanu yandikishijwe ibara ry'umukara hakaba hariho n'inyubako igaragara mu ibara ry'umutuku wijimye.

Inoti y'umuhondo ikoreshwa mu gihugu cy'Ubuhinde amafaranga y'amarupi magana abiri, ikaba iriho ifoto y'umugabo wambaye rinete ariwe Mahati Gandi akaba hariho ikirango kigaragaza yuko yemewe gukoreshwa.

Icyapa cy'ibara ry'umuhondo gifiteho amagambo yandikishije umukara n'akaranga cyerekezo k'umutuku, hakaba hariho ijambo ryanditseho rikoresheje umweru irindi rikabari mu mabara y'umukara n'umweru n'umukara.

Ibiro bya foregisi bikora igura n'igurisha n'ugurana aha ngaha uzana ibintu bakakuguranira, iyi ni kiyosiki bakoresha barimo kuba bagira ibintu bimwe bafata bakabigurana n'ibindi.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, barimo gukoresha telefone, imbere hejuru yabo hakaba hari ibyapa byo mu ibara ry'ubururu ndetse bifite amagambo y'umweru, hakaba hariho ikirahuri kiri mu ibara ry'icyatsi, hakaba hariho abantu bahagaze.

Abantu babiri bahagaze umwe wambaye agapira k'umweru n'undi wambaye ishati n'ipantaro y'umukara, bigaragara ko baje kuvunjisha amafaranga y'abanyamahanga, hariho icyapa kigaragaza uko amafaranga y'abanyamahanga agenda avunjwa mu mafaranga.

Urupapuro rw'umukara rufite amagambo y'umweru n'umuhondo hejuru hari ari ifoto igaragaza ibicuruzwa bagira bikaba rugaragaza ibiciro bya buri gicuruzwa igiciro ibiciro ndetse n'kintu bigura.

Aha ngaha ni icyumba k'inama ya hoteli bigaragara ko bagiye kuza kwigiramo ibintu bujyanye na banki kuko ndabonamo icyapa kigaragaza ko ekwiti ariyo ishobora kuba igiye kuza gukoreramo hano.

Inyubako ebyiri ziri ahantu hamwe, zigaragaraye ko zubatse mu buryo bumwe, hakaba harimo ibiti byiza by'imikindo, hakaba hariho ihema ryanditseho inzoga bita henikeni, rikaba ari ihema ry'icyatsi hejuru yaryo hakaba hariho indabo z'umutuku ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi bicaye hamwe, bigaragara ko bari mu nama. Hakaba harimo umupapa wambaye rinete, akaba yambaye n'ingofero, hakaba harimo n'undi mumama wambaye agakoti k'umutuku ndetse ufite imisatsi miremire, hakaba harimo n'undi mumama wambaye agakoti k'umukara ufite imisatsi miremire, hakaba harimo n'undi mumama w'inzobe ufite imisatsi miremire, wambaye agakoti k'umweru.

Hano bigaragara ko ari mu biro by'ubwishingizi urabona ko harimo umumama wicaye mbese harimo abakozi bashinzwe kwakira abakiriya. Hari intebe z'abakiriya baba bategereje n'abakiriya barimo kwakirwa ako kanya.

Icyapa kigaragaza ko ari ibiro by'ubwishingizi bwa oridi maco, inyuma yaho hari ifoto y'umukobwa bigaragaza ko na we aba arimo kwamamariza ubwishingizi.

Hano ndabona hari akazu batangiramo amaraso, hepfo yaho ndahabona n'icyapa kiyobora abantu ku nzu y'ubwishingizi bwa buritamu.

Hano bigaragara ko ari mu biro by'ubwishingizi kuko hari umupapa waje kwiyakiza cyangwa se gufata nk'ubwishingizi none yagezemo bamwakiriye bamuhaye fanta yo kuba aranywa ya koka, none undi yicaye ku mashini.

Iyi ngiyi bigaragara ko ari agafomu umuntu yuzuza igihe ashaka gusaba inguzanyo muri banke ya ekwiti. Eee iyo ushanga inguzanyo bigaragara ko wuzuza ako gafomu, noneho ukagasabumitinga.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye, muri iyo mihanda hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye, ndetse n'abantu bagenda n'amaguru, muri ibyo binyabiziga twavugamo ama modoka, ndetse n'ama moto, nubwo bitagaragara neza, kandi inyuma y'uyu muhanda hakaba hari inzu ndende cyane y'umuturirwa, ifite ibirahure bibonerana, ndetse hakaba hagaragara n'ikirere gisa n'ubururu.

Abantu benshi bahagaze munsi y'ihema ry'umuhondo umwe wambaye ingofero z'umuhondo zigaragara abakozi ba emutiyene ( MTN) nu wambaye ingofero itukura n'uteye agatambaro k'umweru bakaba bahagaze imbere y'imashini ibindi bose bakoresha terefone zabo.

Inyubako y'umuhondo ifite amabara y'umukara n'amagambo yandikishijeho y'umukara, ikaba yanditseho ryoherwa n'umuvuduko wa interineti ya foji aho waba uri hose, imbere yaho hahagaze umuntu ushinzwe umutekano wambaye inifomo, hirya hahagaze abandi bantu barimo kugenda.

Akazu ka MTN kumuhondo gafite inyandiko z'umukara imbere yaho hahagaze umugabo wambaye ishati y'ubururu ipantaro y'umukara mu kazu hicayemo umukobwa bigarara ko ari umukozi wa MTN .

Kunzu ya MTN hahagaze abantu benshi harimo abakozi ba MTN bahagaze bari kureba uburyo serivise zimwe zitangwa, harimo n'abaje gushaka serivise , hirya hari n'umuntu wambaye itaburiya usa nkaho arimo gusohoka.

Iyi ni inzu ya emutiyene mobayiromani, bigaragara ko hicayemo umukobwa uri kureba hirya inyuma hari umugabo wambaye agatisheti k'umuhondo, n'undi wi uhagaze hino wambaye ishati y'icyatsi.

Urupapuro rugaragaza urubuga umuntu ashobora gukoresha ahaha mu mamahanga ,akoresheje ikoranabuhanga akaba yahaha muri USA muri amerika cyangwa mu bushinwa, akaba ari kukwereka uburyo umuntu ashobora kuba yahaha.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'icyatsi akaba yambaye n'ingofero yabugenewe y'abantu batwara ibinyabiziga y'icyatsi, akaba ahagaze ku kinyabiziga arambitse akaboko ku gikapu cyanditseho vuba, inyuma ye hakaba hari icyapa kigaragaza ahantu bita mu Bugarama.

Urubuga bakoresha bahaha bakoresheje ikoranabuhanga, bigaragara ko barimo kwamamaza nk'ibintu bacuruza; kandi bakakubwira ko bifite n'ubuziranenge, na nimero wahamagara igihe uramutse ubishatse.

Inyubako y'umuhondo ifite inzugi z'umukara ifite ibirahuri byafime , imbere hari aho kwicaraho hari intebe zo kwicaraho ikaba ifite ibyumba bitanu ikaba iherereye kibagabaga ikaba igurishwa amadolari magana abiri na mirongo ine .

Ahangaha bigaragara ko ari inzu ikodeshwa amadorari ibihumbi bibiri ku kwezi, iherereye Kibagabaga muri Kigali. Mubigaragara bari kwerekana ko igeretse rimwe ifite parikingi.

Inyubako y'umweru ifite purafo y'umuka y'umweru ndetse n'umuhondo ikaba ifite amakaro, ifite amadirisha n'inzugi, ikaba iri ahantu igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda ikaba.

Icyumba cyo kuramo gisasheho amashuka y'umweru arimo n'ubururu, gifite umuryango ureba hanze, kikagira amarido ay'umweru nay'umukara, kikaba gifite amakaro hasi, kikaba gifite akarinda abasazi ku

Inzu y'umweru igeretse ifite imiryango y'umukara ikagira amadirisha y'umuhondo, ikaba imbere yaho hari intebe zo kwicaraho, abantu barimo kuganira hano hakaba hariho ibiti by'icyatsi, birebire kandi bifite amabara.

Inyubako ndende ifite umuryango uriho ibyapa bigaragaza ko serivisi abantu batanga ndetse n'aho bagiye baherereye, hakaba harimo na nimero z'umuntu ushinzwe gutanga serivisi, rikaba ari ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'ubururu, hakaba hariho amagambo yanditseho.

Inzu ikodeshwa iherereye muri Kimirinko ifite ibyumba bibiri byo kuryamamo, ifite dushe ebyiri, ifite icyumba cyo kwicaram, ifite igikoni, ifite parikingi, ifite na.

Inyubako nziza cyane ifiteho utuntu twuturinda basazi hejuru twutwuma, ikaba yubatse neza cyane, ikaba iri ku isoko igurishwa amafaranga ya miliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda ikaba ifitemo ibyumba bitanu, ikaba ifitemo ubwogero bune, ikaba iri ku buso bwa

Ibara ry'icyatsi n'umweru imbere yayo hari umuntu wambaye ubusa hejuru bigaragara ko hasi hari amagambo y'umweru y'umukara arimo ibara ry'ubururu.

Abantu batatu bahagaze umwe wambaye agapira k'umweru uhetse igikapu cy'umukara, undi wambaye agapira k'umukara uhetse igikapu cy'umutuku, undi wambaye umutuku afite imisatsi myinshi bigaragara ko hari ikintu bahanze amaso imbere yabo.

Ku bantu bose baturiye umunara bazi akamaro kawo, ariko bitavuzeko abari munsi yawo batajya babona imirongo cyangwa itumanaho kubera guhamagara bicikagurika, ahubwo ugahereza abantu bo hakurya. Rero ugomba kuwubungabunga niba uwubonye hafi nkuko hano ubona hateye ibigori ndetse n'ibiti.

Abantu bagiye guhaha, bigaragara ko umwe ari muri bo ari kwerekana intoki, bisobanuye gusuhuza ,undi mukobwa ufashe isashe y' icyatsi, bigaragara ko arimo kuganira n'umugabo uri hirya....

Umuntu uhagaze mu isoko wambaye imyenda y'umukara ufashe telefone y'umukara, akabafashe n'agapfukawa k'ibara ry'umweru, akaba ahahagaze imbere y'akabati k'umweru gafite amagambo yandikishije ubururu ndetse n'ay'umukara.

Ahangaha ni mw'isoko bigaragara ko bacuruzamo ibintu byinshi by'ibiribwa, harimo abamama bahagaze bafite udukapu n'abandi bigaragara ko barimo gucuruza harimo n'umuhungu ufite n'umwana.

Abantu batatu bahagaze hamwe bamanitse udukarita mu kirere, hejuruka haba handitseho iri jambo ryanditse mu rurimi rw'kinyarwanda aryo mituweli rigaragara, kuko ari ikarita y'ubwishingizi no kwivuza ikaba itangwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubwishingizi.

Iyingiyi bayita ikarita yubwiteganyirize murwanda ya RSSB ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mukwivuza ikigaragaza hano baba bari kukubwira ko ufite iyi karita atarembera murugo.

Urupapuro rw'umweru ruriho ikirango gifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo n'ubururu, kikaba ari ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwisungane mu kwivuza ndetse n'umutekano ari cyo RSSB, akaba ari mu magambo arambuye kivuga...

Ubu ni ubwishingizi bwo kwivuza bita mituwele de sante, ikigaragara hariho imiti, gutanga amaraso na serenge n'ibinini n'abantu bicaye mu tugare no hejuru hariho ikimenyetso cyo guteranya.

Umuntu uhagaze mu isoko rya kijyambere ufite akapu k'umweru akaba arimo gukora kurereba ibicuruzwa harimo kokombure, tangawize, imineke, n'ibindi birarayi intoryi itomato.

Isoko rya kijyambere ricuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo abacuruzi, abaguzi bigaragara ko baje guhaha harimo uwambaye agapira k'icyatsi n'uwambaye agapira k'umuhondo.

Isoko rya kijyambere, bigaragare ko urimo kwishyura arimo kwishyura akoresheje ikarita, noneho uri kwishyura yambaye agapira k'ubururu , noneho urimo kumwishyuza cyangwa se urimo kumuhereza imashini, yambaye agapira k'umutuku.

Isoko rya kijyambere ricuruza ibintu byinshi, bigaragara ko mu kabati ko hasi harimo amakarito, ako hejuru, ako hagati harimo utujerekani, ako hejuru harimo amacupa, hejuru na ho harimo amacupa y'umutuku, hirya yaho harimo biswi n'ibindi.

Aha ni mu isoko ndabona harimo ibikoresho byinshi birimo ibyo kurya, amavuta, ndetse hari n'umugabo uhagaze bigaragara ko yaje kugura akaba afashe ikintu arimo kucyitegereza areba ibyo yashakaga niba aribyo.